Akazu k'umuhondo gakorerwamo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga mu buryo bwo kohererezanya amafaranga no kuyabikuza, harimo umukobwa ucuruza iyo serivisi afite n'abakiriya babiri bahagaze barindiriye iyo serivisi.